Umuganga uhagaze wambaye ishati ifite ibara ry'icyatsi, Itaburiya y'umweru ufashe terefone, afashe n'utubokisi turimo imiti, amacupa y'umuhondo n'umweru karimo imiti. Abaganga baratuvura, tukagira ubuzima bwiza.